Itsinda ritoya ririmo abantu bakeya ryafashe gahunda yo kwegera abana batoya bo mu bigo by'incuke kugira ngo babagezeho amata, ibingibi bikaba bifasha bano bana kuba batarwaye indwara nka bwaki ziterwa n'imirire mibi itarimo intungamubiri.

Umugabo ndetse n'umwana mutoya, bari guseka barishimye aho umugabo ari kwikoreza uyu mwana mutoya ijerekani irimo amazi, mu buryo bwo kwita ku buzima ndetse no kubungabunga amazi akaba ari ingenzi cyane mu buzima bwa buri munsi.

Inzu dukunda kwita akazu k'amazi, aho abaturage baza kuvomera bo muri ako gace, biba bisaba kugira ngo utonde umurongo kugira ngo ugerweho nawe utahane amazi ariko na none ntabwo haba hari abantu benshi ku buryo wataha utabonye amazi agufasha gukora isuku mu rugo.

Ikirangantego cy'umuryango wita ku buzima ku isi yose bakunze kwita wodi herifu oganayizesheni, uyu muryango ukaba ufasha abantu babayeho nabi batifashije ndetse n'abahuye n'ibiza.

Itsinda ry'abantu bambaye amataburiya y'ubururu, bisa nk'aho bakora amasuku bahurijwe hamwe n'abantu batatu hari umugabo muremure, umugabo mugufi ndetse n'umudamu, kugirango ngo bahabwe amatelefoni ibi bikajya bibafasha mu guhana amakuru mu gihe bari mu kazi kabo.

Abaganga batatu, babiri bambaye imyenda y'ubururu n'umwe yambaye imyenda y'umweru, bari kwifotoza bafite imiti mu ntoki zabo bigaragara ko ari umutima mushyashya wavumbuwe bakaba aribwo bagiye gutangira kujya bawukoresha.

Urugomero aho amazi yose atunganyirizwa kugira ngo agere ku baturage. Ariko mbere yuko bayohereza baramanza bakayatunganya, bakayayungurura, mbega akagera ku baturage ari amazi asa neza kandi yizewe.

Ababyeyi bageze mu za bukuru, bambaye amataburiya y'ubururu, bari mu nama kwa muganga. Bose bafite ibitabo, aho bari kubahugura ku bijyanye n'ubuzima bwa buri munsi. Aba ngaba bakaba bakunze kwitwa abajyanama b'ubuzima.

Mu rwego rwo kwita ku buzima ndetse no kwita ku mikurire y'abana kugira ngo bakure bishimye, umugabo ukora mu kigo cyitwa World Vision, yaje kubaganiriza. Aho ari kumwe n'umwana mutoya, bahana ibiganza, amwereka ko amwishimiye.

Itsinda ry'abagabo batandukanye bicaye ku meza, bafite icyo kunywa ariko nanone bafite ibitabo imbere yabo ndetse bamwe bafite n'aho kwandika. Riyobowe n'umuntu umwe, iyi nama ikaba igamije kureba ukuntu bakwita ku buzima.

Mu rwego rwo kwita ku buzima abaturage begerejwe amazi, aho umugabo n'umugore baje kuvoma amazi bitwaje amajerekani asa umuhodo, ibi ngibi bikaba bibafasha kwita ku buzima bwabo bwa buri munsi bakora amasuku.

umwana w'umukobwa wambaye umupira w'umutuku, ari gukaraba intoki ari aho bavomera amazi, arishimye kubera ko bafite uburyo bwo kunoza isuku bwabegereye mu gace k'iwabo, hano hakaba hakubiyemo no gukaraba intoki bakavoma n'amazi bakayajyana mu rugo bakayakoresha.

Ku kigo nderabuzima gikunda kwakira abantu bafite ibibazo bitandukanye ariko cyane cyane ibyo mu muryango nko kuboneza urubyaro, cyasuwe n'abantu batandukanye, nyuma yo kugisura bo n'abaganga bahakora bifata agafoto.

Abantu batandukanye bavuye mu bihugu bitandukanye kandi nabo uko bangana baratandukanye harimo abagabo bakuze, abasore, abakobwa batoya ndetse n'abadamu bakuze, aho bavuye mu nama yo kwita ku buzima bayisoje bafata agafoto hasi.

Ikirangantego cy'ikigo mpuzamahanga cyita ku buzima bita UNICEF kikirangantego kikaba cyaramamaye ahantu hose aho umuntu akirerebye ahita amenya ko abo bantu bita ku buzima ndetse bagafasha n'abatishoboye.

Abantu batandukanye harimo abanyarwanda ndetse n'abazungu, bavuye mu nama yo kwiga ku kibazo ukuntu bakwita ku buzima bw'umugore utwite, barangije inama bagiye hanze kwifotoza ifoto y'urwibutso.

Mu rwego rwo kwegereza abaturage ubuvuzi aho baba bari hose, abaganga bari ahantu hamwe bari kwakira abarwayi kugira ngo babapime indwara zitandukanye. Aha bakiriye umugabo ukuze cyane ageze mu zabukuru, bari kumufata ibipimo kugira ngo barebe uko umutima we uteye.

Muri gahunda y'igihugu yo kubungabunga isuku habayeho kwegereza abaturage amazi, amazi aba ari mu duce dutandukanye, abaturage bakayabona bitabagoye kugira ngo bakore amasuku, bamese imyenda yabo, bakore amasuku mu rugo, mbese babeho mu buzima burimo isuku.

Inama iri kwiga ku kibazo cy'ingenzi ariko cyerekeranye n'ubuzima. Kuva yitabiriwe n'abantu bo mu ngeri zitandukanye kandi bo mu bihugu bitandukanye. Harimo abanyarwanda, harimo abazungu bari kugenda bahana ibitekerezo buri wese avuga uko yumva ibintu.

Abadamu babiri bari mu biro, ahantu hari amarido asa n'ubururu, ndetse n'ibendera ry'umuryango wita ku buzima. Bari mu nama ku ikoranabuhanga, aho bari kwita ku kuntu ubuzima bwajya bwitabwaho mu baturage.

Ibirangantego by'imiryango igera ku icumi itandukanye, ariko igize ikintu kimwe ihuriyeho ari cyo kwita ku buzima iyita ku buzima ifasha abana, iyita ku buzima yita ku isuku, iyita ku buzima itanga amazi, iyita ku buzima yita ku batishoboye, iyita ku buzima itanga n'akazi muri rusange n'ibindi byinshi.

Umu mama uri kuvoma amazi, afite ijerekani ndetse n'akajerekani gatoya, bigaragara ko yishimye ashimishijwe n'iyi gahunda yashyizweho yo kwegereza abaturage amazi akaba hafi yabo.

Abantu babiri bafite indobo isa n'uburu n'akantu bari gusukisha amazi k'ubururu. Umwe ari gukaraba intoki n'isabune uwundi ari kumusukira amazi, ubu akaba ari uburyo bwo kwita ku isuko ndetse n'isukura mu bijyanye no kwita k'ubuzima.

Umugezi umwe utemba ariko urimo amazi asa nabi, aha ngaha hakaba hari abana batatu baje kudahamo aya mazi, ibi bikaba byerekana ko nta mazi meza yabegerejwe iruhande rwabo mu buryo bwo kwita ku buzima bwabo.

Inama yateranyirijwe mu cyumba kimwe cyo kwa muganga, aho umuganga ari gusobanurira abantu bari hano bo mu ngeri zitandukanye ariko abenshi bakaba ari igitsina gore, ari kubasobanurira ibintu bijyanye no kwita ku buzima bwabo bwa buri munsi.

Abantu basanzwe bita ku buzima bagatanga inama zitandukanye ndetse n'imiti iyo biri ngombwa ku baturage, baje gusurwa n'abayobozi babishinzwe. Bari kugenda babasobanurira buri kantu kandi, hagati aho abafite kamera bagafotozi, bari kugenda bafata amafoto ya buri kintu kiri gukorerwa aha hantu.

Abaturage bavuye mu nama ya RBC, aho bavuye guhugurwa ku bijyanye n'ubuzima, kububungabunga ndetse no kubwitaho. Basoje inama rero, bagiye kwifotoza ifoto y'urwibutso kugira ngo bajye bahora bibuka uno munsi.

Umumama wicaye ari wenyine yiturije ariko ukaba ubona ko yicaye, ubanza atameze neza bigaragara ko aba mu buzima bwa bukene, ibi bikaba bimutera guhangayika cyane yibazwa uko ari bubeho.

Imyiteguro irimbanyije aho hari imodoka iri kuzana ibikoresho, hari amatente barangije gutera, hari n'intebe batari bategura neza. Bakaba bari kwitegura umunsi wo gufungura ivuriro ryahariwe uburwayi bwo mu mutwe mu Karere ka Bugesera.

Mu rwego rwo gufasha abantu bafite ibibazo byo mu mutwe ndetse n'abahuye n'ihungabana bakabaha ubufasha bwo kubaganiriza kugira ngo bamererwe neza kandi bongere kwihima, bifatanyijemo, abantu batandukanye harimo n'Igihugu cy'u Rwanda.

Abana basa nabi bambaye imyenda isa nabi, bafite inzara ndetse bafite n'agahinda gakabije, bahuye n'ihungabana ku buryo badatekereza neza kubera ibibazo bafite mu mutwe wabo.

Abagabo, abagore, abakobwa batoya ndetse n'abasore bifashe agafoto mu gihe bari bavuye mu nama yiga ku buzima bwo mu mutwe, uko babubungabunga ndetse n'uko bafasha abafite ubumuga bwo mu mutwe.

Umuryango wita ku buzima ku isi yose uramenyesha buri muntu aho yaba ari hose ko afite uburenganzira bwo kugira ubuzima bwiza bwo mu mutwe harimo: kwirinda ingaruka zabwangiza ndetse no kwitabwaho mu gihe yumva atameze neza..

Umusore udakuze, ari gukorera isuku amenyo ye. Arishimye ari na ko ari gukoresha akado gatoya, mu kugira ngo akure imyanda iri hagati y'iryinyo n'irindi. Aka, kakaba gafasha cyane cyane kuri ba bantu bakunze kugira amenyo afatanye.

Umugabo upfumuye ku zuru, w'inzobe, wambaye n'amarinete ari guseka. Mu buryo bwo kwerekana, uburyo amenyo ye ameze neza; ari na ko ashishikariza buri muntu, kujya yita ku buzima bw'amenyo ye buri munsi.

Abaganga babiri, umuhungu n'umukobwa bambaye imyenda y'umukara, umukobwa yambaye akantu k'ubururu mu mutwe. Baryamishije umwana ku gitanda, bari kumureba mu kanwa kugira ngo barebe ikibazo amenyo ye afite, maze babone ubufasha bari bumuhe uko buraba buhagaze.

Mu buryo bwo kwita ku buzima bw'amenyo, cyane cyane abantu bagira amenyo afatanye. Umukobwa ari kubereka uburyo bajya bakoresha bayakorera amasuku nko hagati y'amenyo aho iryinyo rimwe n'irindi bigiye bihurira, bakoresheje akadodo.

Amenyo ameze nabi afite uburwayi ibyo byagaragariye mu mashini, aho afite imyanda itari ngombwa akanasumbana mu buryo butari ngombwa, akeneye umuganga wabyigiye kugira ngo ayavurwe asubirane ubuzima bwayo.

Kwa muganga aho bitaga bu ubuzima bw'amenyo akaba yari umuganga wambaye ga z'umweru ari kumwe n'umwana w'umukobwa baje kwita ku buzima bw'amenyo ye akaba yishimye kubera serivisi bari kumuha akaba yaje gukoresha isuku yayo.

Umusore avuye muri dushe kwiyuhagira. Nyuma yaho agiye gukorera amenyo ye amasuku. Gusa kubera ko amenyo ye afatanye cyane agiye gukoresha akadodo gatoya kabugenewe kugira ngo agende akuramo imyanda, iri hagati y'iryinyo rimwe n'ibindi byoroshye.

Umugabo ari kwa muganga, ari kumwe n'umuganga wambaye itaburiya y'umweru. Yaje kwivuza amaso cyangwa se kuyogesha, uyu muganga ari kumwereka uburyo bikorwamo azajya yikorera bitabaye ngombwa ko agaruka hano kwa muganga.

Ibyo nakwita nk'imiti bitandukanye kubera ko bifasha abageze mu zabukuru mu kwitabwaho. Harimo ibibafasha nk'iyo bagize ibibazo byo kwizinga imitsi cyangwa se batari kugenda neza, bakaba babikoresha kugira ngo amaraso atembere neza.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru, ufite akantu gapima uko umutima utera mu ijosi, ari kumwe n'umugabo wambaye ishati y'umuhondo ukuze ugeze mu zabukuru, uyu muganga aka ari kumusobanurira ukuntu azajya yiyitaho.

Umuganga wambaye imyenda y'ubururu, ari kwita ku musaza ukuze bihagije wambaye ishati y'umutuku, aho ari kumufata ibipimo kugira ngo arebe uko umutima we utera, bose barishimye, bari guseka, ubona ko uyu muganga ari gutanga serivisi nziza.

Umugabo ageze mu za bukuru ari kumwe n'umugore we nawe ageze mu za bukuru, mu ntoki zabo bafite imiti ariko no ku ruhande rwabo hari iyindi miti itandukanye, bari kureba imiti bagiye kunywa bitewe naho amasaha ageze.

Umugabo ugeze mu za bukuru ari kumwe n'umuganga w'umukobwa wambaye imyenda y'ubururu, aho ari kumufasha kugira ngo yumve neza ingingo ze uko zimeze, ndetse abashe no gutambuka mu rwego rwo kwita ku bageze mu za bukuru.

Umugabo n'umugore we bageze mu zabukuru bari kumwe n'abantu batatu ari bo umusore, umukobwa ndetse n'umwana mutoya. Babasuye mu rwego rwo kubamara irungu kugira ngo ubuzima bwabo bugende neza, bishimye kandi batari bonyine.

Ahantu habugenewe ho kugira ngo bakoreshe bita ku bageze mu zabukuru bahahurije abagabo ndetse n'abagore bakuze, mu rwego rwo kubitaho bari kubaganiriza ndetse ni na ho babahera ubufasha bakeneye.

Umumama ugeze mu zabukuru uri kurya indyo yuzuye. Iyi ngiyi ikaba imufasha kwita ku buzima bwe bwa buri munsi cyane ko aba bantu bakuze baba bahura n'indwara zitandukanye. Kurya neza rero bikaba ari ibibafasha kugira ngo babeho neza.

Umugabo n'umugore we bageze mu zabukuru. Barishimye bari guseka. Gusa barakuze cyane kubera ko umugabo afite imvi haba mu bwanwa ndetse no mu musatsi. Ariko nubwo bakuze basazanye bagikundana kubera ko bafatanye ku rutugu.

Umukobwa wambaye imyenda y'ubururu, ushinzwe kwita ku bageze mu zabukuru, ari kumwe n'umumama ukuze cyane bigaragara ko ari kumuganiriza mu buryo bwo kumwitaho, akaba ari umwe mu bantu benshi afasha mu bageze mu zabukuru.

Abantu babiri bose bishimye cyane. Ni umugabo ukuze ugeze mu zabukuru ndetse ufite n'ubumuga kuko ari kugendera mu kagare ndetse ari kumwe n'umugore uri kumufasha kugenda ndetse unamwitaho mu buzima bwa buri munsi.

Abantu batatu barimo umudamu, umusore ukiri muto ndetse n'umugabo ukuze aho uyu mudamu n'umusore bari gufasha umupapa ukuze gutambuka agatera agatambwe bino bikaba biri mu buryo bumwe bukoreshwa mu gufasha abageze mu za bukuru.

Umugabo n'umugore we bageze mu za bukuru, baraku cyane ariko barishima, bafite utuntu imbere yabo bari gukoresha bari gukina, ibingibi bikaba bibafasha mu gutuma amasaha yicuma, bikaba biri muri bimwe mu bifasha abageze mu zabukuru kwitabwaho.

Umukobwa n'umu mama ukuze cyane ugeze mu zabukuru, barishimye bari guseka. Aha ngaha uyu mu mama akaba yaje kwitabwaho; cyane ko uyu mukobwa ari ko kazi ke kwita ku bantu bakuze. Yambaye n'impuzangano basanzwe bambara isa icyatsi.

Abadamu babiri ariko bakuze bageze mu zabukuru. Bari gutegura ibyo kurya byujuje intungamubiri zose harimo imboga, imbuto ndetse n'ibindi bintu bitandukanye. Iyi ndyo ikaba ituma umubiri cyane cyane w'abantu bakuze iwurinda indwara.

Inama y'ikigo cy'igihugu cyita ku buzima RBC yahujwe n'abantu batandukanye bo mu bihugu bitandukanye kuko bamwe ari abanyarwanda abandi bakaba ari abazungu. Yabaye mu mwaka wa 2024 itariki 20 na 21 z'ukwa gatanu.

Umugabo n'umugore umwe akaba ari umwirabura undi ari umuzungu bakaba bavuye mu nama yahuriweho n'imiryango itandukanye muri East Africa yiga ku kuntu ubuzima bwajya bwitabwaho bari bari kurebera hamwe umuti n'igisubizo cyo kwita ku buzima.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima cyitwa RBC kikaba gikora ibintu byinshi harimo gutanga inkingo gutanga imiti se ku ndwara runaka kandi kikita n'ubuzima bw'abaturage bo muRwanda muri rusange.

Tariki enye z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri byari kuwa gatanu aho kuva saa sita kugera saa saba hari hateganyijwe igikorwa cyo kwita kuri kanseri ku bantu bayirwaye, bakabafash, bakabapima ndetse bakagira n'imiti babaha harimo no kubaganiriza.

Abaganga babiri bambaye imyenda y'ubururu ga z'umweru ndetse n'udupfukamuwa tw'ubururu bari kumwe bari kureba icyo bakorera umurwayi kugira ngo akire harimo no kuba bashobora kuba bamubaga bitewe n'indwara arwaye.

Itariki makumyabiri n'enye na makumyabiri n'eshanu z'ukwa gatandatu bibiri na makumyabiri na gatanu, aho Umujyi wa Amsterdam uzaba uri kwizihiza umunsi wo kurya indyo yuzuye zikungahaye ku ntungamubiri ndetse n'ubuzima.

Umunsi wo kwitabwaho kw'abarwayi, aho abaganga batatu bari kwita ku bageze mu zabukuru, babafata amaraso nk'ibipimo kugira ngo bajye gupima ibizami by'indwara runaka harimo: nka malariya, cyangwa se tifoyide byose bipimirwa mu maraso.

Ikinyamakuru cyitwa News Letter, aho cyanditse inkuru igaragaza ukuntu muri Afurika, bari bari guhangana n'ikibazo cyo kuboneza urubyaro, aho iki kibazo cyabonetse cyane cyane mu majyepfo y'Afurika, mu gihe cy'icyorezo cya kovide cumi n'icyenda. Bakaba bari kureba, uburyo bagihagarika.

Icyumba cyabugenewe cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bihagije bakoresha muri siporo ku bantu bafite indwara zitandukanye nk'iz'umugongo ingingo zidakora neza iki cyumba kandi nicyo bakoresha kugira ngo bagorore umubiri.

Ihema ryashyizwe ahantu kugira ngo rikorerwemo ubuvuzi, aho abantu bari kuza barigana kugira ngo babafashe, hakaba hari umukobwa witeguye kubakira kugira ngo abahe serivisi bakeneye, hari n'umupapa kandi uje amusanga ufite ubumuga akaba ari mu kagare asunitswe n'umwana mutoya.

Icyumba cyo kwa muganga aho abarwayi baba barwariye. Hari ibitanda aho umuntu wese uje kwivuza bakabona imimerere arimo atari iyo gutaha bamuha igitanda. Aha harwarira abantu batandukanye hari abafite indwara zo mu mubiri, izo ku ruhu se, iz'imvune ndetse n'izindi zitandukanye.

inyubako y'ibitaro runaka yaho hari umuganga wambaye itaburiya y'umweru hano hakaba hari buroke ya materinete, akaba ari aho bita ku babyeyi babyaye abaganga bakabitaho bakurikishijwe n'ibibazo bafite.

Inyubako z'ibitaro aho batanga serivisi zitandukanye kuko hari abahagana barwaye umutwe, barwaye imitima, barwaye umuvuduko w'amaraso ariko bose bakabafasha. Hari abantu benshi bose baje baje gushaka serivisi z'ubuvuzi.

Inyubako y'ibitaro bya ruhengeri biherereye mu karere ka Musanze, aho abantu batandukanye b'ingeri zose bafite n'uburwayi butandukanye babigana bagiye kwivuza kugira ngo bahabwe ubufasha.

Ibyuma abana bakunze gukoresha nk'ibikinisho bari kwinezeza. Biri kwa muganga, aho bifasha abana barwariye ku bitaro kugira ngo bishimishe mu gihe barwaye, amasaha abashe kwicuma.

Mu nyubako yo kwa muganga, harimo icyumba kimwe cyagenewe kurwariraho abarwayi batashoboye kuza kwivuza ngo basubire iwabo mu rugo. Iki cyumba kiba kirimo ibitanda bihagije kandi byabugenewe, biba bitegereje abarwayi ngo babiryameho.

Aho dukunze kwita nka korodoro ni nini ni iyo kwa muganga. Hirya no hino hagiye hari ibyumba bitandukanye. Aho hakoreramo amadiparitoma atandukanye yo kwa muganga.

Kwa muganga mu cyumba kimwe harwariyemo umugabo, yambaye ishati y'umweru, afite n'imashini ziri kumufasha mu buvuzi, uyu mugabo ari guseka bisa nkaho nubwo arwaye ariko ari koroherwa.

Inzu igiye kujya ikoreshwa nka raboratwari, gusa ibikoresho byose bikenewe bikaba bitari byageramo, icyo bamaze gushyiramo ni utubati twabugenewe, amaetajeri n'amaravabo bazajya bakarabiramo mbere yo gusuzuma ibizami.

Ikipe y'abantu bagera kuri barindwi, bagiye gusura ibitaro byitiriwe umwami Fayisali, aho buri wese afite ibintu mu ntoki, bigaragara ko bagiye kubiha abantu barwariye muri bino bitaro, bakabikora nk'igikorwa cy'urukundo.

Inyubako zo kwa muganga ziba zirimo izitandukanye harimo aho bavurira abana, aho bavurira ababyeyi ndetse n'aho bavurira inkomere, ahangaha buri wese bitewe n'icyo arwaye akaba ajya mu cyumba gitandukanye n'uwundi.

Inzu izajya ivurirwamo ababyeyi babyaye, bigaragara ko aribwo yuzuye, kuko inzu ifite uturabo imbere ku ibaraza, ariko na nonone iracyafite umugozi bigaragaza ko batari baza kuyisura ku mugaragaro kugira ngo uyu mugozi bawukate, ubundi ijye ivurirwamo abo yagenewe.

Ikigo nderabuzima gifite inzu y'ababyeyi, iy'inzu akaba ariyo bakunda kwita matereneti , iyi nzu ikaba ijyamo ababyeyi babyaye ndetse n'abitegura kubyara akaba ariho abaganga babitaho bari.

Abantu bahuriye muri raboratwari, bigabanya amatsinda abira atandukanye. Aho bari gukora ubushakashatsi ku muti runaka, kugira ngo nyuma y'ubwo bushakashatsi bihurize hamwe, barebe ibitekerezo byose, bafate umwanzuro w'uko uwo muti uzajya ukora.

Icyumba kimwe cyo kwa muganga bagifashe bateranyirizamo abantu b'ingeri zitandukanye harimo abageze mu zabukuru, harimo abana batoya bakaba bari kwiga ku kibazo cy'ihohoterwa rikunze gukorerwa abageze mu zabukuru.

Inyubako y'ibitaro iherereye mu gace runaka, aho abaturage batandukanye bafite n'indwara zitandukanye bagana bino bitaro kugira ngo babafashe. Hari abajyayo barwaye indwara zidakira, abandi bakajyayo barwaye indwara zishobora kuvurwa zigakira. Abo bose ibi bitaro birabakira.

Mu cyumba kimwe cyo kwa muganga harimo icyuma cyabugenewe gifasha abaganga kureba indwara ziri mu mubiri .Kubera ko umuganga wenyine atashobora kurebesha amaso ye ngo arebe icyo umuntu arwaye mu mubiri w'imbere ,bakoresha kino cyuma kikabereka indwaro iri mu mubiri.

Inzu y'ububiko bw'imiti dukunze kwita farumasi, iba irimo imiti myinshi itandukanye aho iyo urwaye uzi icyo urwaye ndetse n'ikintu cyakuvura uyijyamo ukagura umuti. Ariko nanone iyo utazi ikintu cyakuvura ujya kwa muganga, akakwandikira imiti ubundi ukaza kuyigura hano muri farumasi.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru, ga z'ubururu n'agapfukamunwa k'ubururu, ari muri laboratware aho ari kureba ibizamini umurwayi yatanze kugira ngo amenye indwara arwaye. Ari kubisuzuma akoresheje imashini zabugenewe.

Kwa muganga, ahari ibitanda, hahandi iyo umurwayi yaje kwivuza, bakabona imimerere arimo atari imwemerera gutaha ahubwo igomba gutuma asigara agakurikiranwa n'abaganga, aha niho bamujyana, kuri bino bitanda.

Ibitaro byitiriwe Umwami Faisal bikaba ari ibitaro biherereye mu mujyi wa Kigali, ari ibitaro bikomeye, aho boherezaho abarwayi bo mu duce dutandukanye bo mu gihugu hose.

Kwa muganga, mu cyumba cyahariwe gutangirwamo inkingo, aho abaganga bari gufasha abaturage kubona inkingo. Hari abaturage batandukanye, hari n'abari mu kagare, bafite ubumuga. Hakaba hari n'abaganga bambaye imyenda y'umweru, bari kubafasha kubakingira.

Kwa muganga ahantu havurwa indwara zitandukanye ndetse hari n'abarwayi benshi pe. Hari umurwayi bari kwinjiza mu cyumba, bigaragara ko bagiye kumwitaho, ariko hari n'umuganga uri kwihuta wambaye imyenda y'ubururu, agapfikamunwa k'ubururu akaba giye kureba umurwayi yasize arebe uko ameze.

Inzu yagenewe gukorerwamo siporo, aho harimo ibikoresho bitandukanye, bifasha nko kugorora amaboko, kugorora amaguru, kugorora umugongo ndetse n'abakunda gukora siporo zituma bagira imiterere myiza.

Inyubako y'ibitaro byitwa Legacy, biherereye mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Kicukiro, aho abakirira abantu baba bicaye iyo ucyinjira, mbere yo kumenya aho uri bukurikize ni bo ubanza kunyuraho bakakurangira neza aho uri bukurikize ujya kwivuza.

Ikizingo cy'umutuku bakunze kwifashisha nk'iy'abantu bagize ibibazo ariko bari muri siporo. Iki ngiki kikaba gifasha mu kugabanya nk'ububabare, cyangwa se koroshya imvune aho umuntu aba yavunitse.

Umugabo bamwicaje ku gatanda, ari kumwe n'umuganga wambaye ishati y'umweru, bari kumuzirika bande ku kaguru kuko yahuye n'ikibazo mu gihe yari ari muri siporo, ibi ngibi bikaba biri bumufashe aho yakomeretse cyangwa hajemo ikibazo kuba hasubirana nta kintu kiri kuhanyeganyeza.

Umukobwa wicaye muri salon ariko yicaye ku kantu kabugenewe bakorera we siporo yambaye cola n'agasengeri k'umukara afite imashini imbere ye ndetse n'udukoresho dutandukanye ku ruhande afite n'amazi yo kunywa ari gukora siporo ibi byose akababyobuze kwifashisha mu mwanya wo gukora imyitozo ngororamubiri.

Serivisi imwe yo kwa muganga yitwa fisiyoterapi aho ifasha abantu cyane cyane nk'abavunitse abahuye n'ibikomere, abageze mu zabukuru bakaba batabasha kugenda cyangwa bafashwe n'imitsi kugira ngo bayigorore bagende neza, bifasha kandi gutuma umuntu agabanyirizwa ububabare.

Ububiko bw'imiti itandukanye ariko ikoreshwa muri siporo mu gihe umuntu agize nk'ikibazo ari muri siporo, mu gihe umuntu aguye hasi, mu gihe umuntu guhumeka bigoranye cyangwa ikindi kibazo cyose umuntu yagira muri siporo, ubu ni ububiko burimo iyo miti itandukanye igomba gukoreshwa muri icyo gihe.

Abasore babiri bari gukora siporo mu rwego rwo kwita ku buzima kubera ko izi siporo bari gukora zifasha umubiri wabo kugira ngo amaraso atembere neza, ingingo zimwe na zimwe zafunganye zigafunguka, ubundi umubiri ugahumeka.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru, ari kumwe n'umukobwa. Yamwicaje hasi, ku kantu kabugenewe. Ari kumukora mu ivi, amusuzuma kugira ngo yumve ikibazo yaba yahuye na cyo, mu gihe yari ari mu myitozo ngororamubiri, ari yo dukunze kwita siporo.

Umugabo ari gukora siporo dukunze kwita kuko okapu kuko ari kuzikorera ahantu nko mu rugo cyangwa mu cyumba cyagenewe gukoramo siporo, izi siporo zikaba zituma imitsi ikora neza, umubiri ugakora neza kandi n'amararaso agatembera neza.

Umugabo uri muri siporo ariyo bita imyitozo ngororamubiri, mu gihe yari ayirimo agize akabazo mu ivi, yicaye hasi gatoya kugira ngo abashe kumva imimerere arimo niba iramwemerera gukomeza kuyikora cyangwa araba ahagaritse.

Inkoni abantu bageze mu zabukuru bakunda gukoresha bari kugenda mu gihe kugenda bisigaye bibagora cyane cyane nk'abarwaye uburwayi bw'umugongo, bikabafasha kugenda neza kandi nta gishyika.

Abantu babiri umwe yambaye umupira w'umukara, uwundi aryamye ku gitanda, bigaragara ko uryamye ku gitanda, yari ari muri siporo arakomereka. Uwambaye umupira w'umukara, ari kumuha ubufasha, akoresha barafu aho yakomeretse.

Umukobwa yicaye ku kantu kabugenewe bakoreraho siporo ariko akaba afite n'imashini imbere ye ari kureba imyitozo ngororamubiri azajya akora, ku ruhande rwe afite amazi azajya anywa mu gihe agize inyota muri uyu mwanya wo gukoramo siporo kandi na none akagira udukoresho twabugenewe agiye kwifashisha.

Umukobwa ahagaze ku gatapi kabugenewe bakorera siporo. Ari gukora siporo ngororamubiri ariko zikunze gukorerwa mu rugo cyangwa mu byumba byabugenewe. Aho ari kugorora umugongo yunama, amaboko agafata ku mano.

Mu gihehu cyo gukora imyitozo ngororamubiri ariyo dukunze kwita siporo. Umukobwa ari kunywa amazi, amazi akaba ari kimwe mu bifasha mu gihe umuntu ari gukora siporo kubera ko atuma umubiri wumva umeze neza mu gihe wabize ibyuya cyane.

Siporo zabugenewe abantu bakunze gukora mu biro birirwa bicaye iminsi yose bagakwiye kujya bakora, harimo izo kugorora intoki, kugorora amaboko ndetse no kugorora akaguru, ibi ngibi bikaba bifasha ku muntu wirirwa yicaye umunsi wose bigatuma amaraso atembera neza.

Umukobwa wicaye hasi ari gukora siporo, aho ari kugorora amaboko, akayamanura neza cyane agakora ku mano akandi kaguru gahinnye, ibi ngibi bikaba bifasha mu kugorora umugongo ndetse no mu nda.

Abagabo babiri umwe yahuye n'ikibazo cy'imvune ariko uwundi wambaye umupira w'umutuku ari kumufasha ari kumushyiraho igisima kizamufasha gusubiza igufwa mu mwanya waryo ndetse no gushobora gukira vuba.

Abantu babiri umukobwa umwe wahuye n'ikibazo mu gihe yarari gukora imyitozo ngororamubiri, ari kumwe n'umuganga wambaye itaburiya y'umweru uri kugerageza kumufasha aho yagize ikibazo, kugira ngo hazakire neza kandi hatagiyemo imyanda.

Ikipe y'abakobwa bambaye impuzangano y'umweru, irimo n'umukara ariko mukeya, iri gukina iri mu kibuga aho iyi kipe igira abafana benshi, nk'uko bigaragazwa n'abantu benshi babazengurutse baje kureba umukino wabo.

Mu kibuga aho bari bari gukina umupira w'amaguru, umukinnyi umwe agize ikibazo agwa hasi. Ababishinzwe rero umugabo n'umugore bambaye amajire y'umutuku, ubona ko bashinjwa kwita ku bagiriye ikibazo mu kibuga bahise baza kumutabara ,aho bari kumuha ubufasha bw'ibanze bamushyirira umuti aho yakomeretse.

Umukobwa ari muri siporo, ari gukora siporo bamwe bakunda kwitaho cat ari kuzikorera mu nyubako isaba kuba ari mu rugo iwe cyangwa se mu yindi nyubako yabugenewe, izi ngizi zikaba zituma amaraso atembera neza mu mubiri.

Umuganga wambayetabiriya y'umweru afite imiti mu ntoki ze yiswe mifejine, iyi miti ikaba ikoreshwa n'abadamu batwise ariko ikaba ikoreshwa mu buryo muganga yagutegetse no ukuyikoresha kugira ngo ikore akamaro kayo.

Ahantu hatandukanye, mu duce dutandukanye hagera ku icyenda, abantu bajya gushakira imiti gakondo, urabona ko ari imiti itandukanye, hari aho bacuruza imiti y'ibyatsi ndetse n'aho bacuruza imiti iri mu macupa, ifunitse se! mbese bigaragara ko ivura indwara zitandukanye.

Abagore bagera kuri bane baje gusarura igihingwa cy'icyayi, ubuhinzi bukaba budakunda kuboneka ahantu henshi mu gihugu ahubwo cyane cyane mu duce two mu majyepfo y'u Rwanda ndetse n'amajyaruguru, akaba aribo bakunze gukora ubuhinzi bw'icyayi.

Imiti gakondo itandukanye, harimo utuntu tumeze nk'utubuye dutoya, harimo utumeze nk'utubuto, harimo ibimeze nk'imyumbati ndetse harimo n'utume nk'udufiriti, mbese ni imiti ivangavanze, bigaragara ko inanavura ibintu bivangavanze.

Ikimera cyifashishwa mu kuvura aho benshi bakunze kubyita imiti gakondo, iki kimera kikaba kivura bitewe na situation abantu barimo, byashoboka ko umuntu yaba arwaye inzoka cyangwa ibindi, iki kimera kikaba cyamufasha.

Urubuto rw'ipapayi rusatuyemo kabiri, uru akaba ari urubuto rwiza cyane ku buzima, noneho ba bantu bajya bagira ibibazo by'imbaraga nkeya mu mubiri, uru rubuto bashobora kurukoresha haba mu kuryoherwa bisanzwe ndetse ariko n'umuti.

Umuti wa kinyarwanda witwa ibumba ni agafu abantu benshi bakunda gukoresha cyane cyane ku bantu bafite ikibazo cy'igifu, kurwara mu nda bya hato na hato ndetse n'amara.

Ibyatsi byarundanyirijwe hamwe ariko bikaba ari umuti, bikoreshwa mu kuvura ariko bikaba ari umuti gakondo, atari imiti yanze mu ruganda. Ibi ngibi televiziyo yitwa Baho Neza, ikaba iri kubisobanura uburyo bikora.

Umuti gakondo ukorwa mu bimera, uba ari ifu, aho ifasha abantu cyane cyane bashakanye ariko bakaba bafite ikibazo mu gukora igikorwa cy'urugo, uyu muti ushobora kubafasha bakabigenza neza.

Imiti y'ibinini ariko yavuye mu miti gakondo nk'ibimera ari byo byitwa ibyatsi, iyi miti ika ifasha ku bantu bakunze kugira ikibazo cy'umutwe ukabije ndetse no gutuma ubwonko bukora neza.

Igikakarubamba kimeze neza, gitonshye kandi gikuze, kikaba ari umuti wifashishwa mu kuvura, ariko akaba ari umuti gakondo, iki gikakarubamba kiba kivura indwara zitandukanye. Harimo inzoka abana bakunze kurwara, ariko na none zivura indwara zijyanye n'uruhu.

Ububiko bw'imiti itandukanye ya gakondo, aho bagira imiti y'amafu iri mu macupa magufi ndetse n'iri mu macupa maremare, bakagira amavuta yo kwisiga, bakagira imiti yo kunywa, ibi byose akaba ari imiti yifashishwa bitewe n'indwara umuntu arwaye.

Ibyatsi runaka bitazwi neza uko byitwa ariko bikajya hifashishwa mu gukora imiti gakondo ivura indwara zitandukanye. Ibi byatsi kandi bashobora kubikoresha nanoni babinyujije mu ruganda cyangwa se bakabikoresha mu bundi buryo, bitewe n'uko umuganga wabyo asobanura ko bigomba gukoreshwa.

Imiti gakondo yatunganyijwe neza igeze aho abantu baba bagomba kuyikoresha, iyo barangije kuyitunganya bayibika mu macupa atandukanye y'ubwoko butandukanye kubera ko nayo ibyo aba avura atari ibintu bimwe kugira ngo bifashe abayiguze kugira ngo bayitware neza.

Umugabo ari gusarura ku gati gafite utubabi tw'icyatsi, iki kikaba ari igihingwa gikoreshwa nk'umuti gakondo ariko ugikoresha akaba yamanje kugitunganya kubera ko batabihekenya nk'ibibabi, ahubwo bisaba ngo babanze babisekure cyangwa se mo kimwe babanze babiteke.

Abantu batandukanye bishyize hamwe bakora ahantu bazajya bakurizamo ibihingwa bikorwamo imiti abantu benshi bakunze kwita pepinnyeri ahangaha akaba ariho imiti imwe n'imwe ikurira noneho bakayigurisha ku bantu bashaka kuyitera ahandi hantu.

Ikigo gikuru cy'itangazamakuru mu Rwanda cyasuye umugabo ufite ububiko bw'imiti gakondo itandukanye bari gusobanura uburyo iyi miti igomba kujya igenzurwa n'ikigo kibifitiye uburenganzira kigenzura ibintu uko byujuje ubuziranenge kugira itagira ingaruka kubayikoresha.

Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri aho habaye umunsi wo kwizihiza imiti gakondo hano muri Afurika. Imiti ikaba isigaye ikoreshwa ku rwego rwo hejuru n'abantu benshi batandukanye.

Umuti witwa se icyenda, ukaba ukoreshwa mu kongera intungamubiri mu mubiri ndetse no kugabanya ibiro ku bantu babikeneye, uyu muti ukaba ukoreshwa mu gihe kingana n'iminsi icyenda kugira uba werekanye impinduka.

Mu murima abaturage basanzwe bakoresha nko mu guhinga ibihingwa bitandukanye harimo igiti cyakuze cyane. Iki giti kikaba gikoreshwa nk'umuti uvura indwara zitandukanye. Ibi ngibi bikaba bivugwa n'abaganga babyigiye aribo bazi neza indwara iki giti gishobora kuvura.

Imiti itandukanye iri mu macupa atandukanye harimo maremare ndetse na rimwe rigufi kubera ko iyi miti itavura ibintu bimwe utu ducupa tukaba twifashishwa mu bayiguze kugira ngo bayitware neza ndetse babashe no kuyibika neza.

Imiti gakondo itandukanye iba yaranitswe igatunganywa neza, kandi igashyirwa kuri gahunda, aho iba itegereje abantu baza kuyikoresha, ni imiti itandukanye kandi mu by'ukuri igaragaza ko ivura n'indwara zitandukanye.

Ikimera gikoreshwa mu kuvura, icyo dukunze kwita imiti gakondo. Ariko ibi ngibi bikaba bikorwa n'abantu babyigiye, kandi baabifitiye uburenganzira. Nibo bagusobanurira neza iby'iki kimera kivura, uko gikora, ndetse n'uwagifata indwara yaba afite.

Uducupa n'ibikarito bibikwamo imiti ya gakondo kugira ngo abantu bayiguze babashe kuyitwara neza mu buryo bwiisanzuye, iyi miti hakaba hari ituruka kuri voka, iyindi akaba ari ituruka ku gikakarumba ariko ikaba ifasha mu ndwara zitandukanye.

Amacupa atandukanye arimo imiti gakondo. Iyi miti ikaba ikorwa cyane cyane mu gikakarubanda ndetse hari n'amacupa arimo imiti ikorwa mu buki. Aya macupa akaba afasha abagura imiti kuyitwara neza ndetse no kuyibika neza.

Imboga dukunze kwita amashu ndetse na borokori ndetse n'utundi tubabi dusa na epinari, izi akaba ari iboga zifite intungamubiri nyinshi, cyane cyane nk'iyo wazitetse ariko ntutume zishya cyane.

Igihingwa kitwa Tangawizi. Uyu akaba ari umuti ukomeye cyane, aho ukunda gukoreshwa cyane cyane mu kuvura inkorora, ibicurane, angine ariko nanone bikaba atari ibyo gusa ahubwo kikaba hari igihe gikoreshwa nk'ikirungo, abantu bari guteka, haba ibiryo ndetse n'icyayi.

Ku itariki cumi n'esheshatu z'ukwa gatatu mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kane aho wari umunsi wahariwe kwerekana imiti gakondo ikoreshwa, ivura indwara zitandukanye harimo nk'umutwe, amarozi cyangwa ikindi kintu.

Icupa ryagenewe gushyiramo imiti gakondo ariko igashyirwamo yarangije gutunganywa aho iba igeze aho gukoreshwa, ariko na none iri icupa rikaba ritajyamo imiti yose ahubwo bashyiramo umuti wagenewe kwica udukoko, no koga mu ntoki mu gihe umuntu yanduye cyangwa hari ikindi kintu yakozeho cyaba cyamwanduje.

Abantu babiri, harimo umukobwa ndetse n'umugabo bigaragara ko akuze, bari ku kimera cy'umuti gakondo bakaba bari gusobanura neza uburyo uyu muti ukora kuri televiziyo yiswe ani kera.

Umuganga uri muri rabaratware ari gupima imiti kugira ngo arebe ko yujuje ubuziranenge, maze itangire kugikoreshwa cyane ko ari imiti gakondo itaranyuze mu ruganda nk'uko dusanzwe tubona ivuye hanze.

Imiti icuruzwa n'ikigo bita Alliance Global. Iyi miti ikaba ikoreshwa cyane cyane n'abantu bageze mu zabukuru barwaye za ndwara zidakira, aba ngaba akaba ari bo ifasha cyane kubera ko idafatwa nk'imiti isanzwe ahubwo ikaba n'inyunganiramirire.

Imiti gakondo iri mu ducupa ndetse n'ibikarito. Iyi ngiyi ikaba ari ya miti iba yarakozwe cyane cyane mu bimera, akaba ariyo bakunze kwita imititi gakondo. Ibi ngibi irimo rero bikaba bifasha abantu kugira ngo nibabigura babitware ndetse banabibike neza.

Imiti gakondo yatunganyijwe ivamo isabune nziza cyane yo koga, iyi sabune ikaba ikoreshwa nk'umuti wo kuvura ibiheri mu maso, cyangwa abantu bafite ayandi matashi batewe n'ibiheri.

Ibimera byiza cyane, bitandukanye, harimo n'uturabo ndetse n'utubabi ubona ko tunogeye ijisho ariko ibi bikaba atari ukubireba gusa ngo abantu bishime, ahubwo bishobora no gukoreshwa nko mu miti ya gakondo igiye itangakanye.